Icyapa kinini cyane kiri ku rukuta rw'inzu yubakishijwe amatafari gahiye. Kikaba cyanditseho amahame y'indore. Ihame rya mbere hakaba handitseho indore ndiganya ishaka ibisubizo, ihame rya kabiri indore ndiyoba no mu ishyamba ry'inzitane yishakira ibisubizo, ihame rya gatatu, intore ni umurinzi w'ibyagezweho ntawabisenya ibona n'ibindi byinshi biranga indore.

Inteko y'abaturage, aho abaturage bavuye hirya no hino bo mu mudugudu baje guteranira hamwe, kugira ngo bige ku myanzuro n'ibibazo bi bugarije, kugira ngo barebe uburyo bateza imbere ingo zabo, n'uburyo bateza imbere igihugu.

Ahantu mu kigo cy'abanyeshuri aho abanyeshuri babikaga amakayi n'ibikoresho bindi byabo, mu tubati akaba ari ahantu heza cyane hasi hari amakaro n'utubati twinshi dufite imfunguzo za buri kabati, inyuma hakaba hari igikuta cy'amatafari gahiye harimo utubara tw'umuhondo mo hagati.

Abanyeshuri babiri bicaye n'umuntu umwe uhagaze, uwicaye w'imbere akaba ari kwereka umugabo uhagaze ibintu muri terefone, bakaba bicaye ku meza y'umweru inyuma yabo hari imashini yo mu bwoko bwa Deri.

Umugore w'umuseriveri ufashe icupa rirerire, hariho ibirahure bibiri aka ikinini n'gitoya biteretse ku kintu kimeze nk'isahani, akaba yambaye aga karovati k'umukara, yambaye ishati yumweru, afite imisatsi y'umukara n'iherena, akaba ari guseka anejejwe n'ibiri.

Imyuga n'ubumenyingiro mu Rwanda, bisigaye byarateye imbere cyane aho abanyeshuri basigaye bafite ubumenyi buhagije bwo kujyana ku isoko ry'umurimo, kugira ngo berekane imyuga bigiye mu mashuri, akaba ari umunyeshuri ufashe igikoresho cyo mu modoka, ari kugikora kugitunganya kugira ngo cyongere gikoreshwe nanone.

Abanyeshuri bigaga imyuga n'ubumenyigiro barimo kwerekana ibindu bakoze bari kubyereka abarimu babo, ibindu by'ibikoresho bya elekitoronike biteretse ku meza bigiye bitandukanye, aho bari guseka bashimishijwe n'ibindu bakoze, bikaba biteretse ku meza hijya yaho hakaba hari ibikuta bisize amarangi g'.....

Imyuga n'ubumenyingiro zisigaye zarateye imbere cane, aho dusigaye dufite ibikoresho bya kijambere twifashishaga kugira ngo abanyeshuri bige babone ubumenyi bwiza kandi bukwiriye. Iyi ikaba ari imashini iri gukoreshwa n'abanyeshuri bambaye ibisarubeti ico ibyica bya kaki byiza kandi bakaba bafite ubumenyi bwo kuyikoresha.

Abanyeshuri benshi basa n'abari kwifotoza, inyuma yabo hari inzu nziza cane ifite amarangi g'umuhondo, isakajwe amategura, bahagaze ku mapave hijya yabo hakaba hari akajaride keza cane gakikijwe n'agafondasiyo karimo amabara g'umukara n'umweru meza cane.

Mu banyeshuri batatu bicaranye umwe wakoze akantu kubukorikori agashushanya ku rupapuro kaba ari umuntu yashushanyije umeze nk'indori ufashe ingoni n'akantu ku rundi ruhande rw'ukuboko akaba afite amababa g'umutuku umunyeshuri ufashe ugo rupapuro akaba ari guseka nyuma yaho akaba ari ikigo c'amashuri.

Abanyeshuri benshi harimo abambaye ibisarubeti by'ubururu n'abambaye ibisarubeti bya brusiyeli, bakaba bari kubaka kandi bafite ibikoresho by'ubwubatsi, harimo Metero, Nire n'Urukamba n'amatafari kugira ngo bige imyuga.

Mu ishuri aho abanyeshuri bigaga imyuga n'ubumenyingiro, bafite ibikoresho bya elegitoroniki bari gukora. Ibi ibikoresho bya elegitoroniki n'abarimu babiri bari kureba ibindu bagiye barakora bicaye ku meza. Ku meza hariho ibikoresho bigiye bitandukanye, amaturunovisi, amasupana hariho n'amakaye ku ruhande rwabo.

Abanyeshuri bigaga ibintu bijanye n'imyuga n'ubumenyi ngiro， bigaga ku kigo cya arapi，ayipiyarasi Gishari， akaba ari abahungu babiri n'umukobwa umwe， ufite ibisuko bakaba bahagaze ku makaro，inyuma yabo hakaba hari udutebe twinshi n'ikibaho cy'umukara.

Abanyeshuri bigaga imyuga n'ubumenyingiro bari guteza imbere ubumenyi bwabo bari gukoresha imashini zigezweho ,hijya hakaba hari abanyeshuri bahagaze bategereje nabo gukoresha kuri ibi bikoresho, hakaba hari babiri bari kubikoresha umwe w'umukobwa wambaye amarinete n'uwundi uri imbere, n'umwarimu uri kureba uko bari kubikora.

Ibikoresho abakanishi bifashisha bari gufungura imodoka ifite ubwoko bugiye butandukanye, ibifite imitwe ikoze nk'ikizeru, ibifite imitwe imeze ng'amenyo, biteretse mu kantu kitwaga turukite ko kubibika ikeretse, n'ibindi bimeze nka malitimetere n'amatoronovisi.

Abantu bari gukora ubukorikori, aho hari umwana wicaye, undi ahagaze, undi ari kwandika n'undi uri inyuma ari kureba ibyo bari gukora, umwe yakoze akamodoka ko mu bikarito, undi ari guca igipapuro co gukoramo ubugeni, inyuma yaho hari umuntu wakoze akantu kameze nk'inzu y'ikibindi, hijya akaba ari umujyango gusa n' ugufunguye, inyuma yaho hakaba hari amakaro g'umweru gari ku gikuta.

Abanyeshuri bigaga imyuga n'ubumenyingiro bicaye imbere y'ibikoresho bya elegitoronike muri ibyo bikoresho hakaba harimo amakopiyuta go mu bwoko bw'amadesikitopu hakaba hari abagabo bari kugenzura ibikorwa aba banyeshuri bari gukora hijya hakaba hari umujyango gufunguye aba bagabo bari kwinjiriramo.

Muri iki gihe mu gihugu cyacu umwuga w’ubukanishi， usigaye warateye imbere cyane， aho abahungu n'abakobwa bawitabira nta n'umwe uhejwe， Ukaba ubona abanyeshuri batatu bari gukanika imodoka，harimo umukobwa n'umuhungu n'undi uri imbere yabo，uri gukoresha raputopu， akaba ari ibintu bishimishije kuba igihugu cacu abantu bose badahwezwa.